Umugore wambaye ipantaro ndetse n'ikoti imbere yambayemo agapira k'umweru yayambaye n'amadarubindi imbere ya akameza karerekare kariho indangururamajwi, akaba arimo ayageza ku bamukurikiye ubutumwa hari n'abandi bantu benshi bamukurikiye bicaye bateze amatwi.

Abantu benshi bateraniye hamwe, harimo abagabo ndetse n'abagore, bicaye ku ntebe z'umukara bari mu nzu nini imbere yabo hari imeza iriho indangururamajwi, amazi yo kunywa ndetse n'ikayi n'ikaramu, bakaba bateze amatwi hari n'undi mugabo uri gutanga igitekerezo, hari n'izindi ntebe ziticayemo abantu muri icyo cyumba.

Abantu bateraniye hamwe ari benshi, hakaba harimo abagore ndetse n'abagabo, bakaba bicaye ku ntebe z'umukara bateze amatwi, imbere yabo hari imeza iriho mudasobwa, amazi yo kunywa, amakaye ndetse n'amakaramu, hakaba hari umugabo uhagaze uri kubagezaho ubutumwa.

Abantu benshi bari mu nama, hakaba harimo abakobwa ndetse n'abahungu. Bambaye udupira tw'amaboko magufi tw'ubururu. Imbere yabo hari imeza iriho igitambaro cy'umuhondo. Kikaba ku meza hateretseho amazi yo kunywa, telefone ,amakaye, ndetse n'amakaramu. Bakaba bameze nkaho bari mu mahugurwa.

Abantu benshi bateraniye hamwe, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bicaye imbere hari imeza iriho amazi, ishakoshi, ikaye ndetse n'ikaramu, muri icyo cyumba barimo hakaba hari n'insakazamashusho nini, hakaba hari umugore uri hagati yabo uri kubagezaho ubutumwa, akaba yambaye imyenda y'umukara ndetse n'umutuku.

Abantu benshi bari hamwe, bakaba bicaye bari mu nama, bicaye ku ntebe z'umweru, abo bantu biganjemo abagore ariko harimo abagabo, bari mu cyumba bakaba bateze amatwi abantu barimo baragezaho ubutumwa, icyo cyumba gitatsemo amabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi, imbere hakaba hari abantu batanu, barimo batanga ubutumwa ku bantu benshi babakurikiye.

Abantu bari mu nama isa nk'aho yiyubashye , abagabo n'abagabo imbere yabo hari amazi nama mikoro bafite amakaramu( bic) bari kwandika mu makayi yabo cyangwa se ajenda ,bimeze nkaho bari gukurikirana umuntu uri imbere uri kubabwira ibintu harimo umukobwa witangiriye itama , abagabo bambaye amakote, abafite imvi n'abatazifite ,abasutse n'abadasutse.

Abantu bateraniye hamwe harimo abagabo ndetse n'abagore. Hakaba bicaye ku ntebe z'umukara, iruhande rwabo hari imeza iriho ikayi, ikaramu, mudasobwa n'amazi yo kunywa. Bameze nk'aho bari mu nama bagenda bungurana ibitekerezo.

Abantu benshi bateraniye hamwe, bakaba bari mu nama, harimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bicaye ku ntebe z'umweru, imbere ku meza yabo hari amazi, ikirahuri, ikayi n'ikaramu, bakaba bateze amatwi bakurikiye.

Abantu benshi bateraniye hamwe hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, hari ndetse n'umugabo wambaye impuzankano za gisirikari. Imbere yabo hari akameza kariho indabyo z'umutako. Bari mu itente y'umweru, bakaba bateze amatwi bameze nk'aho bari mu nama.

Abantu benshi bateraniye hamwe, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bicaye ku ntebe imbere yabo hari imeza ziriho ibitambaro by'umweru, iyo meza ikaba iriho amazi yo kunywa, amatelefoni, amakayi ndetse n'amakaramu, iyo nyubako barimo ifite inkuta z'umweru ndetse bakaba bacecetse bakurikiye bari mu nama.

Abantu benshi bateraniye hamwe, bakaba bameze nk'aho bari mu nama, hari umugabo wambaye amadarubindi ndetse n'ishati y'amaboko magufinya, akaba afite indangururamajwi mu ntoki ameze nk'aho arimo aratanga igitekerezo, abo bagabo bicaye ku ntebe imbere yabo hari imeza iriho amazi, ikayi n'ikaramu ndetse na mudasobwa.

Abantu benshi bateraniye hamwe, hakaba higanjemo abagabo, bicaye ku ntebe z'umukara, inyubako barimo ifite ibikuta by'umweru, imbere yabo hari ameza ariho za mudasobwa, amatelefoni, amazi yo kunywa, amakaye ndetse n'amakaramu, bakaba bakurikiye bari mu nama.

Abantu benshi bateraniye hamwe, bakaba bari mu itente y'umweru, ikaba itatseho ibitambaro biri mu mabara y'umuhondo, icyatsi ndetse n'ubururu hakaba hari abagore bicaye imbere, iruhande rwabo hari utumeza tugiye turiho amashakoshi, telefoni, amazi yo kunywa ndetse n'ibindi, aho bantu ahantu bari hakaba hasi hari tapi y'icyatsi.

Umugore wambaye ikanzu iri mu mabara y'umweru, ndetse yiganjemo ubururu, akaba yambaye n'amadarubindi, afite indangururamajwi mu ntoki, iruhande rwe hari abandi bagabo ndetse n'abagore bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari imeza iriho agatambaro k'umuhondo, iriho amazi, telefone, amakaye, ndetse n'amakaramu, bakaba bameze nk'abari mu nama, uwo mugore ufashe indangururamajwi ari ku bagezaho ubutumwa runaka.

Abantu benshi bateraniye hamwe hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, bicaye ku ntebe imbere yabo hari imeza iriho mudasobwa, amazi yo kunywa, impapuro ndetse n'amakaramu, hakaba hari umugore uri hagati wambaye ipantaro y'umukara n'agashati k'umweru urimo urabagezaho ubutumwa akaba afite indangururamajwi.

Abantu benshi bari hamwe bakaba bicaye bakurikiye bameze nk'aho bari mu nama harimo abagabo ndetse n'abagore, imbere yabo hari imeza ziriho amazi yo kunywa, hari umugore uhagaze ufite indangururamajwi ndetse umeze nk'aho ari gutanga ubutumwa, iki cyumba barimo hari insakazamashusho nini irimo irabagezaho ibindi bigiye bitandukanye.

Abantu bateraniye hamwe hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bicaye ku ntebe z'umukara bateze amatwi. Inyuma yabo hari icyapa kinini kiri mu mabara y'umweru n'ubururu, kirikuvuga ngo "uruhare rw'umuturage mu igenamigambi n'ingengo y'imari n'imihigo, umwaka wa makumyabiri, makumyabiri na gatanu, makumyabiri na gatandatu. Inyuma yabo y'ahantu bari hari ikibuga bakinamo umupira kirimo ibyatsi ndetse n'ibiti birebire.

Abantu benshi bateraniye hamwe, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, hari abicaye ndetse n'abahagaze, abicaye bicaye munsi y'itente y'umweru, abahagaze bakaba bahagaze ahantu hanini hari ibyatsi byinshi ndetse n'ibiti bibazengurutse, hari umugabo uri hagati wambaye ikositimu, ndetse afite indangururamajwi arimo arabagezaho ubutumwa.

Abantu benshi bateraniye hamwe, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore. Abagabo bakaba bambaye ikositimu, bicaye imbere yabo hari meza iriho mudasobwa, amazi yo kunywa, amakaye ndetse n'amakaramu. Bakaba bateze amatwi umwe mu bagabo wicaye, akaba arimo atanga igitekerezo.

Abantu benshi bateraniye hamwe hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bicaye ku ntebe zikozwe ku mbaho imbere yabo hari imeza iriho bitambaro by'umweru n'ubururu, bari mu nyubako itatsemo ibitambaro by'icyatsi, ubururu ndetse n'umuhondo hakaba hari n'umugabo uhagaze hagati yabo urimo arabagezaho ubutumwa runaka.

Abantu benshi bateraniye hamwe hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore bicaye ku ntebe zifite ibara ry'ikigina ndetse n'izindi zifite ibara ry'umukara, bakaba bicaye bateze amatwi bameze nkaho bari mu nama iruhande rwabo hari imeza ziriho mudasobwa, indangururamajwimajwi, amaz,i amagaye ndetse n'amakaramu.

Icyumba kinini, kigiye kirimo intebe z'icyatsi ndetse na mudasobwa, zikaba ziri ku meza, hari abantu benshi bahagaze imbere harimo abagabo ndetse n'abagore, bameze nkaho basoje inama bagiye gufata ifoto y'urwibutso.

Abantu bateraniye hamwe bameze nk'aho bari mu nama, harimo abagabo ndetse n'abagore, bicaye ku ntebe z'umweru imbere yabo hari akameza kariho amazi, inyuma yabo hari icyapa kinini kiriho amabara y'u Rwanda, inyubako barimo ifite inkuta z'umweru, ndetse hanze hakikijwe n'izindi nyubako.

Abantu bateraniye hamwe bari mu nama, harimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari ameza iriho impapuro, bari kwandikishaho ikaramu, mudasobwa, amazi yo kunywa ndetse n'ibindi, iyo nyubako barimo ifite inkuta zisize ibara ryera.

Abantu benshi bateraniye hamwe, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bamwe bicaye abandi bahagaze, hakaba hari n'ikigega ku ruhande gifata amazi y'imvura kikayabika, ahantu bari hari ibyatsi ndetse hakaba hateye n'ibiti, hari umugore uri hagati uri kubagezaho ubutumwa.

Abantu benshi bateraniye hamwe, harimo abagabo ndetse n'abagore, bicaye ahantu mu busitani burebure bamwe ndetse barahagaze, hakaba hari umugore uri imbere wambaye akajire k'umukara uri kubagezaho ubutumwa runaka, ahantu bari hateye n'ibiti birebire kandi byinshi, hari ndetse n'amazu abazengurutse.

Abantu bateraniye hamwe, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, bicaye ku ntebe, imbere yabo hari imeza iriho uturabyo, telefone ndetse n'amakayi, bameze nk'aho bari mu nama, iruhande rwabo hari inzu nini ibakikije.

Abantu benshi bateraniye hamwe, bakaba bamwe bahagaze abandi bicaye muri abo bantu harimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bambaye udupira tw'umuhondo ab'imbere bakaba bambaye udupira tw'icyatsi, hakaba hari n'umugore wambaye impuzankano za polisi, bameze nk'ari gufata ifoto y'urwibutso basoje inama cyangwa amahugurwa.

Abantu benshi bateraniye hamwe bakaba bari mu nama bicaye, bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari imeza iriho mudasobwa, amazi yo kunywa, amakaye ndetse n'amakaramu, bakaba bose bakurikiye bari mu nama.

Abantu benshi bahagaze. Hakaba harimo bamwe bambaye kositimu ndetse abandi bambaye amakanzu. Bakaba bameze nk'aho basoje inama barimo barafata ifoto y'urwibutso, inyuma yabo hari inzu ndende y'amagorofa menshi.

Abantu bateraniye hamwe bari mu nama, hakaba harimo abagore ndetse n'abagabo, bakaba bicaye imbere yabo hari imeza iriho amasahani, ibiyiko, ndetse hariho na telefone n'ibyo kunywa, bakaba bacecetse, bateze amatwi.

Abantu benshi bateraniye hamwe, bakaba bambaye udupira tw'ubururu, bari mucyumba gifite inkuta zifite amabara y'umuhondo ndetse n'umukara, imbere hari umugabo uhagaze ufite idangururamajwi, uri kubagezaho ubutumwa runaka, aba abantutu bameze nk'aho ari abanyeshuri.

Abantu benshi bateraniye hamwe; bakaba bicaye bakurikiye harimo abagabo ndetse n'abagore, imbere yabo hari meza iriho telefone amazi yo kunywa ikirahuri ikayi ndetse n'ikaramu hari ndetse n'utuvaze duto turimo ibiti by'umutako.

Umukobwa wambaye agashati k'umweru n'umukara ndetse n'agakoti k'umutuku, akaba yicaye ku ntebe y'umukara, iruhande rwe hari umusore wambaye ikoti ryiza bakaba bakurikiye, hakaba hari meza imbere yabo iriho indangururamajwi, amazi yo kunywa, amakayeyi ndetse n'amakaramu.

Abantu benshi bateraniye hamwe bakaba bari mu cyumba gifite inkuta zisize ibara ryera ndetse n'amadirishya afite ibara ryera, abo bantu harimo abagabo ndetse n'abagore bakaba bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari imeza iriho amazi yo kunywa, udukayi ndetse n'amakaramu, bakaba bacecetse bameze nk'aho bari mu nama.

Abantu benshi bateraniye hamwe hakaba barimo abagabo ndetse n'abagore bakaba bari mu nama bicaye ku ntebe, iruhande rwabo harimeza ziriho amazi yo kunywa mudasobwa amakayi ndetse n'amakaramu imbere hakaba hari umugore uri kubagezaho cyangwa uri kubereka ibintu kusakazaho amashusho nini ihari icyo cyumba barimo gifite inkuta z'umweru.

Abantu benshi bateraniye hamwe. Bakaba bari mu nama. Bicaye ku ntebe imbere yabo hari imeza ziriho mudasobwa, indangururamajwi, ikaye ndetse n'ikaramu. Akaba ari umugabo uri imbere wambaye ikositimu ufite indangururamajwi uri kubagezaho ubutumwa. Iyo nyubako barimo hari ibyapa bire binini by'ubururu ndetse no mu mabara y'icyatsi. Byanditseho Kigali yacu, Kigali ikeye.

Abantu benshi bateraniye hamwe, harimo abagabo ndetse n'abagore, abagabo bakaba bambaye amakositimu, bicaye ku ntebe z'umukara ndetse imbere yabo hari imeza, imeza iriho amazi yo kunywa, indangururamajwi, amakaye ndetse n'amakaramu, bakaba bari mu nama.

Abantu benshi bateraniye hamwe, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, bicaye ku ntebe z'umutuku, imbere yabo hakaba hari meza iriho amazi yo kunywa, ibirahure amakaye ndetse n'amakaramu, bakaba bameze nk'aho bari mu nama bari kungurana ibitekerezo.

Abantu benshi bateraniye hamwe harimo abagabo ndetse n'abagore bamwe baricaye abandi barahagaze bose bakaba bambaye udupfukamunwa, imbere yabo hari imeza igiye iriho ibintu bigiye bitandukanye harimo telefone, ishakoshi, udukombe ndetse n'ibindi. Bameze nk'aho basoje inama bari gufata ifoto y'urwibutso.

Abantu benshi bateraniye hamwe hakaba barimo abagabo ndetse n'abagore bakaba bicaye bakurikiye bicaye munsi y'itente rinini rikaba rifite ibitambaro birimo amabara y'ubururu, icyatsi ndetse n'umuhondo, hagati hakaba ari umugore uri kubagezaho ubutumwa ufite indangururamajwi, ahantu bari hakikijwe n'andi mazu.

Abantu benshi bateraniye hamwe bakaba bicaye ku ntebe z'umweru, harimo abagabo ndetse n'abagore. Imbere yaho hari umugore uri imbere uri kubagezaho ubutumwa, imbere hari indangururamajwi ndetse iyo nyubako ibarimo ikaba iriho irimo icyapa kinini kigaragaza ko ari munsi y'ubukerarugendo.

Abantu benshi bateraniye hamwe harimo abagabo ndetse n'abagore bakaba bicaye ku ntebe z'umutuku, iyo nyubako barimo ifite ibikuta by'umweru bakaba bafite amakaramu ndetse n'amakayi bari kwandika ibyo bumvise bameze nk'aho bari mu nama.

Abantu benshi bateraniye hamwe harimo abakobwa ndetse n'abahungu, bamwe baricaye abandi barahagaze bakaba bateze amatwi bakurikiye bameze nk'aho bari kugezwaho ubutumwa runaka cyangwa amahugurwa, hirya y'aho bari hateye ibiti birebire.

Abantu bateraniye hamwe harimo abagabo ndetse n'abagore bakaba bicaye bari mu nama, imbere yabo hari imeza iriho amazi yo kunywa, amakayi, amakaramu ndetse n'ibindi, hakaba hari n'umugabo ufite ibyuma bifotora ndetse bifata n'amashusho akaba ari gufata buri kimwe cyose kiri kubera muri iyo nyubako.

Abantu benshi bateraniye hamwe hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bahagaze bameze nk'aho basoje inama bagiye gufata ifoto y'urwibutso. Inyuma yabo hari insakazamashusho ndende kandi nini, hakaba muri icyo cyumba kirimo n'amarido y'umweru akizengurutse.

Abantu benshi bateraniye hamwe hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore. Bicaye ku ntebe z'umweru ziri mu itente y'umweru iriho amabara y'umuhondo, ubururu ndetse n'icyatsi, bicaye ahantu mu byatsi ndetse hateye n'ibiti byinshi kandi birebire.

Abantu benshi bateraniye hamwe, harimo abagabo ndetse n'abagore, abazungu ndetse n'abirabura, bakaba bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari imeza iriho indabo z'umutako, amakayi, amakaramu ndetse n'amazi yo kunywa, iyo nyubako barimo ikaba ifite hasi tapi y'ubururu ndetse hari n'amarido y'umweru agiye ayitwikiriye.

Abantu benshi bateraniye hamwe hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bicaye bari mu nama hari umwe ufite indangururamajwi yo kubagezaho ubutumwa, imbere yabo hari ameza ariho telefone; mudasobwa ;amazi yo kunywa ndetse n'ibindi.

Abantu benshi bari hamwe, bakaba bahagaze bambaye udupira twivanzemo amabara y'icyatsi ndetse n'ubururu, hirya hari itente iri mu mabara y'umweru ndetse aho hantu bari hakaba hakikijwe n'ubusitani burebure ndetse n'ibiti byinshi bihateye, bakaba bacecetse bameze nkaho barimo barahabwa ubutumwa runaka.

Abantu benshi bateraniye hamwe hakaba barimo abagabo ndetse n'abagore abirabura ndetse n'abazungu bicaye ku ntebe z'umutuku, iruhande rwabo hakaba hari ibikapu ndetse n'amazi, hakaba bameze nk'abari mu nama, iyo nyubako irimo ifite ibikuta by'umuhondo ndetse ikaba igiye irimo ibyapa byinshi byamamaza.

Abantu bateraniye hamwe bakaba bicaye bari mu nama, harimo abagabo ndetse n'abagore bicaye ku ntebe z'umukara imbere yabo akaba ari imeza zirimo ibitambaro by'icyatsi, ku meza ariho mudasobwa, amazi yo kunywa, amakayi ndetse n'amakaramu.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, hakaba hari icyapa kirekire kigaragaza ko abantu batanga serivisi z'irembo, ndetse n'iza banki, harimo kubitsa, kubikuza ndetse no kohereza, hari n'amazu yandi ari ku ruhande akorerwamo ibindi bikorwa, yegereye utuyira tw'abanyamaguru, abanyamaguru bakaba bari gucamo.

Abantu benshi bateraniye hamwe, hakaba barimo abagore ndetse n'abagabo, bicaye ku ntebe z'umukara, bakaba imbere yabo bafiteho za mudasobwa, zitetse ku meza ndetse ku meza hariho n'amazi, imbere yabo hari umugore urimo urabagezaho ubutumwa runaka, iyo nyubako ifite inkuta z'umweru.

Abantu bateraniye hamwe bakaba bari mu cyumba gifite inkuta z'umweru ndetse n'amadirishya y'umweru, bakaba bicaye imbere yabo harimeza ariho mudasobwa bambaye udusakazamajwi mu matwi ndetse bakaba basa nk'abarimo baratanga serivisi runaka cyangwa bari kwiga, harimo abagabo ndetse n'abagore.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye ku ruhande hakaba hari amazu akorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi ndetse hepfo y'umuhanda hari ibyatsi bihateye n'ibiti birebire, hakaba hari n'icyapa kinini kigaragaza ko ari ahantu batanga serivisi zo gufotora, gufotoza ibintu ndetse n'ibindi.

Ubutumwa bw'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro bikaba biri mu mabara y'umweru n'ubururu, bakubwira yuko habura umunsi umwe kugirango ngo ugaragaze imisoro itamenyekanishijwwe mbere ya makumyabiri na gatatu, ukurirweho amande y'inyungu z'ubukererwe, bakubwira ko itariki ntarengwa ari tariki eshatu z'ukwa cumi bibiri na makumyabiri na kane.

Umugabo wambaye ishati n'ipantaro y'ikoboyi wicaye, imbere hari undi mugabo wambaye agapira k'amaboko magufi k'umweru n'ingofero y'ubururu, akaba ari muri gahunda ya byikorere ni ubutumwa bw'ikigo cy'Irembo kikubwira y'uko wakanda akannyeri icyenda zeru icyenda urwego nawe ukabasha kubyikorera.

Umugabo wambaye akajereka mutine mobayiromane akaba yambaye n'ipantaro y'ikoboyi ari mu nyubako ifite inzugi zisa icyatsi ndetse zigaragaza ko ahantu hakorerwamo serivisi zitandukanye, nk'iz'irembo rora ndetse n'ibindi harimo intebe ndetse n'imeza ziriho mudasobwa aho hantu hakaba ku ruhande n'andi mazu ahubatse.

Mudasobwa iri imbere, ikaba irimo ibintu biri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru. Icyo ni icyapa k'ikigo k'irembo kikubwira ngo byikorere, bakwereka intambwe wacamo kugira ngo ubashe kwiyandikisha gukora ikizami cyo gutwara ibinyabiziga ndetse bakakwereka n'ibyo usabwa.

Umugabo wambaye agapira k'amaboko maremare k'ubururu akaba afite telefoni mu ntoki. Ni ubutumwa cyangwa icyapa cy'ikigo cy'Irembo kikubwira ngo byikorere. Kigenda kikwereka inzira zose wacamo kugira ngo ubashe kubyikorera, bakwereka n'ibisabwa kugira ngo wuzuze ibyo bintu.

Inyubako nini, ikaba ikorerwamo ibintu bijye bitandukanye cyane cyane serivisi z'irembo, ifite umuryango w'umuhondo, iruhande rwayo hari n'ayandi mazu akorerwamo ubucuruzi, ndetse yegeranye n'umuhanda, hakaba hirya y'umuhanda hari icyapa kigaragaza ko aha hantu imodoka zitagomba kurenza umuvuduko wa mirongo itandatu, hari n'urujya n'uruza rw'abantu bari gucaho.

Icyapa cyangwa ubutumwa mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru, ni ubutumwa bwire bakubwira ko ushobora noneho kubona icyemezo cyangwa ikikwemerera gushyiraho ikimenyetso kiranga icyerekezo ahantu uri, hakaba hari nimero wahamagaraho ndetse n'izobandikiraho kuri Whatsapp.

Abantu benshi barimo baragenda mu modoka rusange, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore. Hakaba hari umugore witandiye wambaye amarinete akaba afite telefoni mu ntoki, akaba arimo arereka mugenzi we nawe w'umugore wambaye agashati k'umutuku ukuntu ibintu babikora muri telefone.

Ubutumwa bw'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, kikaba kikwereka uburyo bahindura umubare w'ibanga, ukoresheje uburyo bwa mudasobwa cyangwa kuri murandasi, bakwereka inzira zose wacamo ndetse bakaba bakwereka na nimero uhamagaraho mu gihe ugize ikibazo.

Abantu bicaye ku ntebe, imbere yabo hakaba hari meza, abo bantu bafite amatelefoni mu ntoki, iyo meza iriho za mudasobwa, amakayi ndetse n'amazi yo kunywa, iyo nyubako barimo ikaba ifite ibikuta by'umweru, bakaba ndetse bameze nk'aho barimo barakoresha ikoranabuhanga.

Ubutumwa bw'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro kika kibwira ko habura iminsi 5 kugira ngo itariki ya nyuma yo kumenyekanisha ndetse no kwishyura imisoro igere. Iyo tariki 31/12/2024 bagushishikariza kwishyura imisoro aka kanya kugira ngo wirinde amande

Umugore wambaye igitenge akaba yicaye mu ntebe, imbere hari imeza iriho telefoni akaba ari kuyitaba, akaba ari ubutumwa cyangwa icyapa kimenyekanisha yuko hari inama tariki ya cumi na gatanu kugera ku ya cumi n'icyenda Gicurasi makumyabiri makumyabiri na gatatu, izabera i Kigali mu Rwanda, akaba abantu batumiwe.

Ubutumwa bw'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, bikaba biri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu. Bakaba bakwereka inzira zose wanyuramo kugirango ubashe kwishyura ndetse no kumenyekanisha imisoro yawe. Ugomba kubikora mbere ya tariki ya mirongo itatu n'imwe z'ukwacumi na kabiri bibiri na makumyabiri na kane kugira ngo wirinde amande.

Mudasobwa iteretse, akaba ari ubutumwa cyangwa icyapa cy'Irembo kikubwira ngo byikorere, Irembo rigenda rikwereka intambwe wagenda ucamo kugira ngo ubashe kwiyandikisha gukora ikizamini cy'uruhushya rw'agateganyo gikorerwa ku mpapuro cyangwa kwiyandikisha gukora ikizamini cy'uruhushya rw'agateganyo gikorerwa kuri mudasobwa, bakwereka ndetse n'ibisabwa.

Umugabo wambaye ishati ndetse n'ikoti, akaba afite n'amadarubindi mu maso, yicaye ku ntebe imbere ye hari imeza iriho mudasobwa, ni ubutumwa bw'Irembo bukubwira ngo byikorere, bakab bakwereka uburyo ushobora gucamo kugira ngo wiyandikishe niba ushaka gukora ikizamini cyo gutwara imodoka.

Utumwa bwa minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo. Akaba mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu akakubwira yuko minisiteri y'abakozi ba leta n'imirimo iributsa abaturarwanda amasaha y'akazi ko yavuguruwe azatangira gukurikizwa kuwa 1 mutarama ku buryo bukurikira bagenda bakubwira uburyo amasaha y'akazi yagiye ahinduka bakaba bakubwira ko banabifurije iminsi mikuru myiza n'umwaka mushya muhire.

Abantu benshi bateraniye hamwe, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, bicaye ku ntebe, iruhande rwabo hari imeza ziriho mudasobwa, harimo abirabura ndetse n'abazungu, iryo shuri barimo rifite inkuta z'umweru, hanze yaho hakaba hateye ibyatsi ndetse n'ibiti byinshi.

Ubutumwa bw'ikigo cy'Irembo buri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu, bakubwira ko ari serivisi nshyashya zaje ku rubuga rw'Irembo, urugero icyiciro abinjira n'abasohoka, izina rya serivisi, uburenganzira bwo kugera mu nkambi y'impunzi, hariho nimero wabandikiraho kuri watsapu mu gihe ushaka gusobanuza byinshi byisumbuyeho.

Ubutumwa cyangwa icyapa cy'irembo kibwira ko ikigo cyatangiye gutanga serivisi nshyashya ibyiciro bigiye bitandukanye higanjemo icya siporo ku butumwa mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru bakwereka yuko ubashaka no kuri watsapu(whatsapp) wabona kuri nimero za zeru karindwi icyenda kabiri sheshatu zeru.

Umuhungu wambaye ingofero ndetse n'amadarubindi yambaye agakoti ndetse n'umupira w'amaboko maremare, imbere ye hari imeza iriho mudasobwa hari n'umukobwa uri hirya wambaye ishati y'umweru akaba afite n'ibisakaza amajwi mu matwi bakaba bari mu nzu zifite inkuta z'umweru.

Abantu benshi bateraniye hamwe bakaba bari mu cyumba gifite inkuta zisize ibara ryera, harimo abagabo ndetse n'abagore, muri icyo cyumba harimo intebe ndetse hari n'imeza imbere yabo, ziriho mudasobwa, bakaba bameze nk'abanyeshuri bari gufata amasomo ajyanye n'uko bakoresha ikoranabuhanga.

aAazu mato mato ari ku ruhande y'inzira y'abanyamaguru akaba akorerwamo ubucuruzi afite imiryangoy'umweru ndetse n'amadirishya y'umweru hakaba hari akamoto gaparitse kuhan rw'izo nyubako hari ibyapa byinshi kuri izo nyubako birimo iby'ubururu n'umweru bya banki ya kigali ndetse n'ibindi by'umutuku bigaragaza ko abantu batanga serivisi za eyateri.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ku ruhande hakaba hari utuyira tw'abanyamaguru, tukaba twegeranye n'ibyatsi bihateye byinshi ndetse n'amazu akikije uwo muhanda, hakaba hateye n'ibiti birebire, hari amapotori ari ho insinga z'amashanyarazi zisakaza umuriro mu baturage.

Ni umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hepfo y'umuhanda hakaba hari amazu menshi agiye ahubatse akorerwamo ibikorwa bitandukanye, hari ndetse n'utuyira tw'abanyamaguru, hari amapoto maremare agenda ariho insinga zitwara amashanyarazi muri ibyo bice, hakaba hateye n'ibiti birebire ndetse n'ibyatsi.

Abantu babiri, bakaba bambaye impuzankano zabugenewe z'ubururu ndetse akaba bafite n'agakapu mu rukenyerero, bambaye n'ingofero hejuru ku mutwe. Bari hejuru ku mapoto agenda ariho insinga zisakaza amashanyarazi mu baturage, bameze nk'aho baje gukora cyangwa gukosora akabazo kaba kabaye. Ku ruhande hateye ibiti birebire kandi byinshi.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimo haracamo imodoka ndetse na moto, iruhande rw'umuhanda ahari utuyira tw'abanyamaguru, ndetse hari n'amazu menshi ahubatse, akorerwamo ubucuruzi, hakaba hari n'indi nzu ihari ariko yo itararangizwa kubakwa, hakaba hari n'amapoto acaho intsinga zisakaza amashanyarazi muri ibyo bice.

Umuhanda ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ku ruhande hakaba hari hurura, hakaba hari amazu menshi akikije utuyira tw'abanyamaguru, hakaba hari n'ibiti bihateye n'ibyatsi, hari n'amapoto maremare ariho amatara amurikira umuhanda mu gihe cy'ijoro.

Inzu yubatse mu buryo bamwe bakunda kwita konoshi, hari inzu ebyiri imweiri imbere indi iri inyuma, hari ipoto iriho insinga z'amashanyarazi, iyo poto iriho itara ryo ku muhanda, hariho icyapa cyamamaza Eyateri hariho n'icyapa cyamamaza Sitari tayimuzi, impande yaho hariho n'igiti

Umuhanda munini uciyemo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ku ruhande hakaba ariho hari imodoka iparitse yo itarimo irakoresha umuhanda rusange, aho hantu hari n'amazu menshi agiye akikije uwo muhanda, hakaba hateye n'amapoto maremare ariho amatara amurikira abakoresha umuhanda mu gihe cy'ijoro, hari n'idarapo rirerire riri mu mabara y'ubururu, icyatsi n'umuhondo, hakaba hateye n'ibiti.

Inyubako nini ikaba ari inyubako ifite amabati asize ibara ry'ikigina, hakaba ku ruhande hari n'izindi nyubako zihubatse, hari amapoto maremare ariho insinga zisakaza amashanyarazi muri ibyo bice hakaba hateye n'ubusitani ndetse n'ibiti byinshi hari n'umuhanda w'igitaka.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ugenda no mu byerekezo bitandukanye. Hakabaho harimo igikamyo kinini gifite amabara y’umweru. Ku ruhande hari utuyira tw’abanyamaguru, ndetse akaba n'umutaka ukorerwamo umuntu utanga serivisi za mobayilo mane. Hari ndetse n’amapoto maremare ariho amatara amurikira abakoresha umuhanda mu gihe cy’ijoro.

Abantu benshi bari hamwe bakaba bambaye impuzankano zabugenewe zisa ubururu ndetse bafite n'ingofero mu mutwe, bakaba begereye ibyuma ahantu hari amamashini atanga umuriro cyangwa avamo umuriro, bakaba bameze nk'aho baje gukemura ikibazo runaka iyo mashini ifite, iruhande rwayo hari n'insinga zisakaza amashanyarazi mu baturage.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimo haracamo imodoka, ku ruhande hari amazu menshi agiye akikije uwo muhanda, hakaba hateye utwatsi, uturabyo, ndetse n'ibiti n'amapoto maremare, ariho insinga z'amashanyarazi zigenda zisakaza umuriro mu baturage.

Inyubako nyinshi zegeranye zikaba zikorerwamo ibintu bigiye bitandukanye, ni inyubako z'amagorofa menshi hakaba hari n'ipoto ririho insinga zigenda zikaza amashanyarazi muri ibyo bice hakaba hari n'inzu ku ruhande y'amagorofa menshi ariko yo ikaba itarasozwa kubakwa.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ku ruhande hakaba hari utuyira tw'abanyamaguru, abantu bamwe bari kuzamuka abandi bamanuka, hari ndetse n'inzu nini iri ku ruhande, hakaba hari n'amapoto maremare ariho insinga zigenda zisakaza amashanyarazi mu baturage, hakaba hari n'ibinyabiziga biparitse bitarimo birakoresha umuhanda.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bike bitandukanye, uwo umuhanda ukaba ugenda mu bice bitandukanye, hakaba harimo imodoka, kuruhande hari utuyira tw'abanyamaguru dukikijwe n'amazu menshi kandi maremare, hakaba hateye n'ibiti birebire hari amapoto acamo amashanyarazi.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bijye bitandukanye. Ku ruhande hakaba ari utuyira tw'abanyamaguru. Hepfo hakaba haparitse imodoka nini y'igikamyo, hakaba hari teye ibiti ihande utuyira tw'abanyamaguru ndetse hari n'amapoto maremare acaho insinga zisakaza amashanyarazi.

Inyubako ifite imiryango ndetse n'amadirishya y'umweru, mo imbere harimo imeza ziriho mudasobwa ndetse hakaba hari n'intebe abantu bicayemo abantu harimo abagore, bakaba barimo baratanga serivisi zigiye zitandukanye.

Abantu benshi bateraniye hamwe bakaba bicaye ku ntebe bategereje guhabwa serivisi runaka, harimo abagore ndetse n'abagabo, harimo n'abagore bahetse abana ndetse imbere yabo hari inyubako nini imeze nk'aho ari kwa muganga, iyo nyubako ifite amadirishya ndetse n'imiryango by'ubururu.

Abantu bicaye ku ntebe, harimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bategereje guhabwa serivisi. Iruhande rwabo hari inyubako ndetse hirya hari ibyatsi bihateye, hakaba muri ibyo byatsi hateye n'ibiti birebire.

Inyubako nini ifite ibikuta bisa umweru bikaba ndetse harimo n'ibitanda n'amarido y'ubururu, inkuta zayo zikaba zifite ibara ry'umweru rikaba risa ndetse n'imiryango ndetse n'amadirishya. Hakaba hari abantu bahabwa ubuvuzi bw'ibanze iyo nyubako ikaba iri kwamuganga.

Inyubako nini zigiye zegeranye, abantu benshi bakaba barimo baragenda bacamo, harimo abagabo ndetse n'abagore, hagati y'izo nyubako hakaba hari ibyatsi bihateye ndetse n'ibiti birebire, bisa nkaho aho hantu abantu baza kuhareba kugirango ngo bahabwe serivisi zigiye zitandukanyekanya.

Inyubako nini ikaba ifite amabara y'umuhondo, imbere yayo hari idarapo rirerire ry'igihugu cy'u Rwanda riri mu mabara y'umuhondo, icyatsi n'ubururu. Hirya y'iyo nyubako hakaba haparitse imodoka nyinshi harimo imodoka z'imbangukiragutabara, ahantu hateye n'ubusitani bunini kandi hari n'ibiti n'indabyo.

Inyubako nziza kandi nini ikaba ari inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, ikaba iherereye Kacyiru hanze hakaba hari ubusitani buteyemo ibiti byiza ndetse n'indabyo, hari ndetse n'iporoto ririho insinga z'amashanyarazi zigenda zisakaza umuriro muri ibyo bice.

Inyubako nyinshi kandi nini zigiye ziri ahantu hamwe. Hakaba ari ibitaro by'i Kabgayi. Izo nyubako zikikijwe n'ibiti byinshi ndetse n'ubusitani. Ku ruhande hagiye hari n'amapoto maremare acanira abantu bakoresha izo nyubako mu gihe cy'ijoro.

Umugore wicaye akaba yicaye ku ntebe y'umukara hari umugabo uhagaze wambaye ipantaro ndetse n'itabiririya y'umweru, afite akuma mu matwi kumva ukuntu umutima utera, urahande rwe hari ameza ariho mudasobwa ndetse n'intebe. Aha hantu ni mu biro ariko hameze nk'aho ari kwa muganga.

Abantu benshi bari hamwe bakaba barimo baragenda, bakaba bambaye amataburiya y'umweru, harimo abagabo ndetse n'abagore, iruhande rwabo hari inyubako ndende kandi nyinshi, zimwe ziri mu mabara y'umweru, izindi zubakishije amatafari ahiye, hakaba hateye n'ibyatsi ndetse n'ibiti birebire.

Imodoka iparitse, iyo modoka ikaba ifite amabara y'umweru ndetse n'umutuku, hakaba hariho n'utuntu tw'umusaraba tugiye turi ku madirishya, ni imodoka y'imbangukiragutabara ikaba itwara abantu bagize ikibazo bakeneye ubufasha bwihutirwa, iruhande rw'imodoka hari inyubako ndende y'amagorofa menshi ikaba ifite ibikuta by'amabara y'umuhondo.

Abantu benshi bateraniye hamwe harimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bamwe bicaye abandi bahagaze; ahantu bicaye hari ubusitani burebure ndetse hateye n'ibiti birebire kandi byinshi hakaba hari umugabo wambaye ikabutura ndetse n'agashati k'iroza, ahantu bari hakaba hari n'izindi nyubako zibakikije.

Abantu benshi bateraniye hamwe bakaba bari mu cyumba gifite inkuta z'umuhondo, harimo abagabo ndetse n'abagore, bicaye ku ntebe z'umukara ndetse imbere yabo harimeza zirimo ibitambaro by'umukara, ku meza hariho ibirahuri, ibyo kunywa ndetse n'ibindi.

Abantu benshi bateraniye hamwe, bakaba bari mu nama bicaye hasi mu byatsi ndetse abantu bicaye hateye n'ibiti birebire, hakaba hari abandi bicaye ku ntebe ndetse imbere yabo hari imeza bisa nkaho babahagarariye, hari umugabo uri hagati uri kugenda abazwa ibibazo akabisubiza.

Umugore wambaye amaherena ku matwi ndetse n'amadarubindi mu maso, akaba yambaye ikanzu ndende iri mu mabara y'umutuku, umukara ndetse n'umweru, akaba akora mu rukiko ashobora kuba ari umucamanza cyangwa umushinjacyaha.

Umugabo wambaye amadarubindi ndetse wambaye n'agashati k'amaboko magufi k'irose, iruhande rwe hari umugabo wambaye ikanzu ndende y'amabara y'umukara ndetse n'umweru, bakaba bameze nkaho baje kuburanisha cyangwa kuburana mu rukiko.

Abantu benshi bateraniye hamwe, akaba ari umugabo wambaye ikanzu nini y'umutuku ndetse yambaye n'akagofero mu mutwe, ukuboko kw'iburyo kuramanitse ukwibumoso gufashe kwidarapo ry'ibara y'icyatsi'umuhondo nubururu imbere ye hari umugabo wambaye imyenda ijya gusa nkiye ariko akagofero gasa umuhondo n'umukara inyuma ye hari nabandi bantu baje kureba, akaba ameze nkaho ari kurahira

Abantu benshi bateraniye hamwe, bamwe bakaba bicaye abandi bahagaze, harimo abagabo ndetse n'abagore, hari itsinda ry'abantu bambaye amapantaro, amkabutura, amashati magufi cyangwa abandi bambaye amakanzu y'amaroza, ahantu bari hari ibyatsi byinshi ndetse n'ibiti birebire.

Umugabo wambaye amadarubindi akaba yambaye n'isaha ku kuboko yambaye ikanzu ndende iri mu mabara y'umutuku ndetse imbere ifite akantu kari mu mabara y'umweru, akaba ameze nk'aho ari umushinjacyaha cyangwa akora mu rukiko ari nk'umucamanza.

Umugabo wambaye ikabutura ndetse n'ishati y'amaboko magufi by'iroza akaba yambaye n'agapfukamunwa, yicaye ku ntebe y'umukara mu ntoki afite ikayi, iruhande rwe hari abantu bambaye impuzankano z'abacungagereza akaba ameze nkaho yaje kuburanishwa.

Umugabo wambaye amadarubindi ndetse na kositimu, akaba yambaye n'amapingu mu ntoki, iruhande rwe hari umuntu wambaye impuzankano ya giporisi akaba nawe yambaye amadarubindi, akaba amuherekeje, inyuma yabo hari imodoka itwara abantu mu buryo bwa rusange, bimeze nk'aho umugabo amaze gufungwa agiye kuburanishwa cyangwa ajyanywe muri gereza.

Umugabo wambaye ikositimu ndetse n'ishati y'umweru akaba yambaye n'amadarubindi ari mu cyumba kirimo intebe zicayemo abantu bagiye bakurikiye, iyo nyubako ifite inkuta z'umweru n'amadirishya biri mu mabara y'umweru.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare, y'ubururu. Akaba yambaye amarinete, iruhande rwe akikijwe n'abantu bambaye impuzankano za gipolisi, bakaba bameze nk'aho bamuherekeje, akaba agiye kuburanishwa cyangwa gufungwa.

Abagabo babiri ndetse n'umugore umwe, bakaba bicaye ku ntebe z'umukara, bambaye imyenda y'amakanzu manini y'umukara, ndetse ari no mu mabara y'umweru hagati, imbere yabo hari meza iriho telefone, amakayi, amakaramu, ndetse n'amazi yo kunywa, bameze nk'aho ari abacamanza.

Abantu benshi bateraniye hamwe bamwe bahagaze abandi baricaye hari abicaye hasi mu byatsi bihari, ndetse abantu bari hakikijwe n'ibiti byinshi hari n'abandi bicaye ku ntebe. Imbere yabo hari ameza bameze nk'aho babahagarariye hariho umugabo uhagaze hagati yambaye ishati y'amako maremare ndetse n'ipantaro, bakaba bameze nkaho barimo bamubaza ibintu bigiye bitandukanye.

Umugabo wambaye ikabutura ndetse n'ishati y'amaboko magufi by'iroze, inyuma ye hari imodoka iparitse itarimo iragenda, ku ruhande hateye utwatsi ndetse hari n'ibiti, akaba ameze nk'aho aje kuburana cyangwa kuburanishwa.

Inyubako nini kandi ndende, ikaba ari inyubako ifite inkuto z'umweru, n'inyubako y'amagorofa menshi imbere hari icyapa kinini kigaragaza ko ahantu hakorerwamo n'ikigo cya polisi, ikaba iherereye ku Muhima, iruhande hari imodoka ziparitse zitarimo zirakoresha umuhanda rusange akaba hari n'abantu bari kwinjira muri iyo nyubako.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ukaba ugenda no mu byerekezo bitandukanye, ku ruhande hari utuyira tw'abanyamaguru, hakaba hari umupolisi uri hagati wambaye impuzankano zabo z'umukara, akaba ari kwereka imodoka guhagarara hanyuma igaparika ku ruhande, hari ibiti byinshi biteye hirya y'umuhanda.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye ukaba ugenda mu byerekezo bitandukanye, hirya hari utuyira tw'abanyamaguru hakaba harimo haracamo abantu ndetse n'umugabo wambaye impuzankano ya polise urimo aragenda mu tuyira tw'abanyamaguru, hirya hateye ibiti birebire ndetse n'ubusitani akabaari n'amazu maremare ari hirya y'umuhanda.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye hakaba hari imodoka iri mu mabara y'umweru n'umukara yanditseho amagambo polise akaba hari umupolisi wambaye impuzankano zabo z'umukara wambaye n'agapfukamunwa akaba yafunga umuryango yasohotse hirya hari utuyira tw'abanyamaguru turi gucamo abantu hari n'imodoka ziparitse zitari gukoresha umuhanda munini.

Inyubako nini y'amagorofa menshi, ikaba itsinze amaba y'umweru ndetse n'ikigina, imbereho hari icyapa kinini kigaragaza ko hantu hakorerwamo n'ikigo cya polisi, kikaba giherereye mu karere ka Gasabo i Remera, hakaba hari n'abapolisi bambaye impuzankano zabo z'umukara, bafite n'imbunda, bari ku miryango.

Abantu babiri bambaye impuzankano z'umukara, bakaba bambaye n'ingofero mu mutwe, bafite ikamba rinini rigiye ricamo amazi, bakaba barimo barazimya umuriro, ni imodoka isa nk'aho yagize ikibazo igafatwa n'inkongi y'umuriro, iruhande rw'iyo modoka hari ibyatsi n'ibiti birebire bihateye.

Abantu benshi bambaye impuzankano z'umukara bakaba bambaye n'ingofero mu mutwe bafite amakamba arimo arapiririza amazi bameze nk'aho bakora mu kigo gishinzwe kurwanya inkongi z'umuriro ahantu bari hakikijwe n'ibiti byinshi.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimo haracamo imodoka ndetse n'ama moto, hakaba ndetse ku ruhande hari utuyira tw'abanyamaguru, hakaba hari abapolisi bambaye impuzankano zabo zabugenewe bahagaritse moto nyinshi ndetse n'imodoka gutambuka kugira ngo abantu babanze batambuke, hateye ibiti byinshi ndetse n'ibyatsi iruhande rw'umuhanda.

Icyapa kiri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu, kikaba kikwereka ko aha hantu hakorerwa Polisi ishami rya Nyarugenge, Umurenge wa Rwezamenyo, hari na telefoni wabahamagaraho mu gihe ubashakiye, hirya hari ubusitani buteyemo n'ibiti birebire, hakaba hari n'umuhanda ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye.

Ibikoresho bibiri by'ikoranabuhanga byifashishwa hazimywa inkongi y'umuriro cyangwa se umuriro uje utateganyijwe, aho kimwe kiri mu ibara ry'umweru ndetse n'ikindi kikaba kiri mu ibara ry'umukara, bikaba bikunze kwitwa za kizimyamwoto mu ndimi z'abanyamahanga.

Umuhanda ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye kandi hakaba hari amazu agiye akikije umuhanda ndetse n'ibiti birebire n'ibyatsi bihateye akaba ari umugabo wambaye impuzankano y'umukara arimo arafungura amazi menshi ayapiririza mu muhanda.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimo haracamo imodoka ndetse n'ibikamyo kuruhande hari amazu maremare akorerwamo ibikorwa bitandukanye ndetse hakaba hateye n'ibiti byinshi kandi birebire.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye hakaba hari gucamo imodoka ndetse na moto ku ruhande hari utuyira tw'abanyamaguru ndetse hakaba hateye n'amapoto ariho amatara amurikira abakoresha umuhanda mu gihe cy'ijoro, hari n'ibiti byinshi kandi birebire bizengurutse umuhanda.

Ni inyubako nini y'amagorofa menshi, ikaba ari inyubako ikorerwamo n'ikigo cya Polisi y'u Rwanda, ikaba giherereye ku Muhima, hanze hakaba ari abantu bari kwinjira muri iyo nyubako ndetse hakaba haparitse n'imodoka zaje gusa serivisi muri icyo kigo cya Polisi.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bijye bitandukanye, hakaba harimo haracamo imodoka ndetse n'amamoto; kuhande hari utuyira tw'abanyamaguru ndetse n'amazu menshi agiye yubatse hirya akorerwamo ubucuruzi. Hakaba n'icyapa kininiki kiri mu mabara y'umweru n'ubururu kivuga ngo: "Sura u Rwanda".

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimo haracamo imodoka ndetse na moto, hari umupolisi wambaye impuzankano zabo z'umukara, akaba ari kwereka imodoka ko igomba kwegera ku ruhande igaparika, hirya y'umuhanda hari utuyira tw'abanyamaguru, hakaba hateye ibyatsi byinshi ndetse n'ibiti birebire.

Abantu benshi bateraniye hamwe, bakaba bose bafite amadarapo mu ntoki, ayo madarapo ari mu mabara y'umweru, umutuku ndetse n'ubururu, hagati hari umugabo uri gucamo ugenda ubapepera yambaye umupira wa maboko maremare y'umukara ndetse n'amadarubindi, hari n'abandi bafite ibikoresho bifata amashusho, bakaba barimo barafata amashusho y'ibiri kubera aho ngaho.

Abantu benshi bateraniye hamwe, bakaba batonze imirongo, harimo abagabo ndetse n'abagore, ku ruhande rw'ahantu bari hari amantente maremare y'amabara y'umweru, bakaba bameze nk'aho baje mu matora.

Abagabo batatu, bose bakaba bambaye amakositimu, ndetse n'amakaruvati. Hari umwe witwa Kagame Paul, undi yitwa Habineza Frank, ndetse undi bamwita Mpayimana Philippe, bakaba bagenda batwereka ijanisha bagize, bikaba bisa nk'aho bari bari mu matora.

Umusaza wambaye amadarubindi, wambaye ishati y'umweru, wambaye n'umwambaro abantu bakunda kujyana mu birori bita karuvati; yambaye ikote rya kositimu, afite imvi mu mutwe zivanze n'umusatsi w'umukara; afite amatwi manini, afite amaso atari manini cyane ni igikara.

Abantu benshi bateraniye hamwe bakaba bahagaze harimo abagabo ndetse n'abagore, abagabo bambaye ikositimu ndetse abagore bakaba bakenyeye bakaba bameze nk'abasoje inama bari gufata ifoto y'urwibutso, inyuma yabo hateye ibiti birebire kandi byinshi.

Abantu bateraniye hamwe bamwe bakaba bahagaze abandi bicaye. Harimo abagabo bambaye amakositimu ndetse n'abagore bakenyeye. Bakaba bameze nkaho basoje inama bari gufata ifoto y'urwibutso. Muri iyo nyubako harimo n'imitako myiza iri ku bikuta.

Abantu benshi bari hamwe, bakaba bambaye imipira yo mu mabara y'umweru, umutuku ndetse n'ubururu, bakaba bambaye n'utugofero, hari umwe ufashe ifoto nini y'umugabo wambaye ikositimu ndetse n'amadarubindi, yanditseho tora Kagame Paul, bakaba bameze nk'aho baje kwamamaza umukandida wabo ku mwanya wa Perezida.

Abagabo batatu bose bakaba bambaye ikositimu baka barimo baratwereka ijanisha ryabo, umwe afite mirongo icyenda n'icyenda n'ibice cumi na bitanu, undi afite zeru n'ibice mirongo itanu n'abitatu undi afite zeru n'ibice mirongo itatu na bibiri akaba ari ibyavuye mu matora yo kwiyamamaza k'umukuru w'igihugu.

Abantu benshi bateraniye hamwe, bakaba bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, ubururu, ndetse n'umutuku, bakaba barimo abagabo ndetse n'abagore, bafite mu ntoki ikintu cy'igipapuro gikozwe mu gipfunsi, bimeze nk'aho baje kwamamaza ishyaka rya politiki.

Abantu benshi bateraniye hamwe, hakaba harimo abagore ndetse n'abagabo, bakaba bicaye bari mu nama bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari imeza iriho indangururamajwi, amazi yo kunywa, amakayi n'amakaramu ndetse na telefoni, akaba ari abagabo barimo baragenda bacamo bambaye amapantaro y'umukara n'amashati y'umweru bafite n'uduseke, barimo baragenda bakusanya udupapuro abo bantu barimo baragenda babahereza.

Umugore wambaye ipantaro y'umukara n'ikoti ry'umukara, akaba ndetse yambaye amaherena ku matwi n'amadarubindi, yicaye mu ntebe afite ikaramu n'agakayi mu ntoki, akaba iruhande rwe hari indangururamajwi, ameze nkaho arimo aratanga ubutumwa ku bantu bamukurikiye.

Abantu benshi bateraniye hamwe, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari imeza, ku meza hariho indangururamajwi, amaterefone, amakayi, amazi yo kunywa ndetse n'amakaramu, ahantu bari muri iyo nyubako hari insakazamashusho nini ndetse hari n'idarapo riri mu mabara y'icyatsi, umuhondo ndetse n'ubururu.

Abagabo babiri bambaye ama kositimu ndetse n'abagore bambaye amakoti, inyuma yabo hari amadarapo ari mu mabara y'umuhondo, icyatsi, ndetse n'ubururu. Bamwe muri abo bantu hakaba harimo bitunguranye Diogene, Bideri Jean Bonde, Tumukunde Aime Marie Ange, wibabara Jennifer, ndetse na Uwera Peraji.

Abantu benshi bateraniye hamwe aha bakaba bicaye bameze nk'aho bari mu nama, harimo abagabo ndetse n'abagore, bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hakaba hari imeza ku meza hariho mudasobwa, amakayi, ikaramu ndetse n'indangururamajwi, bakaba bacecetse bakurikiye.

Abantu benshi bari hamwe, bakaba bahagaze, harimo abagore, ndetse n'abagabo. Barimo barafata ifoto y'urwibutso, bameze nk'aho basoje inama, inyuma yabo hari amatarapo yo mu mabara y'umuhondo, icyatsi, ndetse n'ubururu. Ahantu bari kandi hateye ibiti birebire n'ibyatsi.

Abantu bateraniye hamwe, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, bamwe baricaye, hari umugabo uhagaze wambaye agapira k'amaboko maremare k'icyatsi ndetse n'ipantaro y'umukara, akaba afite indangururamajwi mu ntoki ari kugeza ku bamukurikiye ubutumwa, inyuma ye icyapa kinini kigaragaza ko aho ahantu hari gukorerwamo inama y'ishyaka rya politiki.

Abantu benshi bateraniye hamwe, bakaba bambaye imyenda yiganjemo ibara ry'icyatsi, bakaba bamwe bicaye mu itende itatse amabara y'icyatsi n'umuhondo ndetse bakaba bafite ibyapa mu ntoki bivuga ngo tora, bakaba barimo baramamaza umukandida wabo ku mwanya wa perezida, ahantu bari hakikijwe n'andi mazu menshi.

Abagabo babiri bahagaze ku ruhande n'abandi bagore babiri bahagaze, umwe muri bo afite indangururamajwi arimo arageza ku bamukuriye ubutumwa, inyuma ye hari icyapa kinini kiriho ifoto y'umugabo wambaye na kositimu, inyuma yabo hakaba hari n'inzu ndende, bameze nk'aho baje kwiyamamaza.

Umuhanda munini ukoreshwa n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimo haracamo ikinyabiziga cy'igikamyo kiri mu mabara y'umweru, ku ruhande hari utuyira tw'ayamaguru ndetse uwo muhanda uzengurutswe n'amazu menshi agiye akorerwamo ubucuruzi n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, hakaba n'imodoka iparitse ku ruhande itarimo irakoresha umuhanda rusange.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hari gucamo moto ndetse n'imodoka, kurande hari utuyira tw'abanyamaguru, hakaba harimo haracamo umuntu wikoreye imizigo, hari ndetse na ruhurura iruhande rw'utuyira tw'abanyamaguru, hepfo y'umuhanda hateye ibiti birebire kandi byinshi.

Mu muhanda munini ugenderwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimo haracamo igikamyo kinini kisize ibara ryera, ku ruhande hari utuyira tw'abanyamaguru, abanyamaguru bakaba bari gucamo, hakaba n'imodoka ziparitse hirya y'utuyira tw'abanyamaguru zitarimo zikoresha umuhanda, umuhanda ukikijwe n'ibiti birebire kandi byinshi.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye ukaba uri gucamo moto ndetse n'igare, ku ruhande hari utuyira tw'abanyamaguru ndetse hari na ruhurura, hepfo y'umuhanda hari imodoka ziparitse zitarimo zirakoresha umuhanda, hakaba hateye n'ibiti birebire kandi byinshi.

Umuhanda munini ugenderwamo n'ibinyabiziga bijye bitandukanyakamo aracamo igikamyo kiri bifite amabara y'ubururu, ndetse cyikoreye ibintu inyuma iruhande rwayo hari utuyira tw'abanyamaguru abantu bakoresha batambuka, hari ndetse n'amazu maremare ahubatse akorerwamo ibintu bigenda bitandukanye.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimo haracamo imodoka y'umweru itwara abantu mu buryo bwa rusange, hirya y'umuhanda hari utuyira tw'abanyamaguru, ndetse hakaba n'imodoka ziparitse zitarimo zirakoresha umuhanda rusange, hakaba hari ndetse n'amapoto ariho insinga zisakaza amashanyarazi mu baturage.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ukaba urimo gucamo imodoka itwara abantu mu buryo bwa rusange. Isize amabara y'umweru, hakaba harimo haracamo na moto, hepfo na ruguru y'umuhanda hari utuyira tw'abanyamaguru ndetse hepfo y'umuhanda hari ibiti birebire ndetse n'ibyatsi bihateye.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimo haracamo imodoka nini iri mu mabara y'umweru n'ubururu itwara abantu mu buryo bwa rusange, harimo hacamo ndetse n'igare, kuruhande hari abantu bari kugendagenda, hirya hari sitasiyo abatwara ibinyabiziga bajya gufatiraho esansi, hakaba hateye n'ibiti birebire ndetse n'ibyatsi.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye hakaba harimo hacamo imodoka zisanzwe ndetse hari hacamo n'imodoka nini itwara abantu mu buryo bwa rusange, ku ruhande hari utuyira tw'abanyamaguru ndetse hakaba hari n'amazu menshi agiye yubatse iruhande rw'umuhanda.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimo haracamo imodoka nini y'umweru itwara abantu mu buryo bwa rusange. Harimo haracamo ndetse na moto, haruguru no hepfo y'umuhanda hari utuyira tw'abanyamaguru. Hari ibiti byinshi n'ubusitani biteye hepfo y'umuhanda.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakabamo hacamo umunyonzi uhetse imizigo, iruhande hakaba hari utuyira tw'abanyamaguru, ndetse dukurikiranye na ruhurura, hari ibyatsi, ndetse n'ibiti birebire biteye hepfo y'umuhanda.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi, hakaba hari abagenzi baje gutega imodoka, aha hantu ni muri gare aho bafatira imodoka zijya mu bice bigiye bitandukanye, hari imodoka nini zitwara abantu mu buryo bwa rusange ndetse n'izindi ntoya zizwi ku izina rya twegerane.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, kuruhande hakaba haparitse ikamyo iri mu mabara y'ubururu ndetse ikaba ifite n'imizigo, hari amazu agiye akikije aho hantu, hakaba hateye n'ibiti birebire, hari n'amapoto ariho insinga zisakaza amashanyarazi.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye hakaba harimo haracamo moto ndetse n'umuntu ugiye uyobora ingorofani, ku ruhande hari utuyira tw'abanyamaguru abanyamaguru bakaba barimo baradukoresha ndetse hirya y'umuhanda hari amazu maremare kandi menshi akorerwamo ubucuruzi, hari n'imodoka ziparitse hirya y'umuhanda zirimo zirakoresha umuhanda rusange.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakabamoracamo imodoka y'igikamyo iri mu mabara y'umutuku, ndetse n'icyansi, ku ruhande hari utuyira tw'abanyamaguru twegeranye na ruhurura, hepfo y'umuhanda hateye ibiti birebire ndetse n'ubusitani.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, harimo haracamo imodoka z'ubwokose, izikoreye imizigo, ibikamyo ndetse n'izitwara abantu mu buryo bwite, ahandi hariho utuyira tw'abanyamaguru, hakaba haparitse n'imodoka zitari gukoresha umuhanda, umuhanda ukikijwe n'ibiti byinshi kandi birebire.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimo haracamo igikamyo kinini kiri mu mabara y'umweru n'ubururu, hakaba ku ruhande rw'umuhanda hari utuyira tw'abanyamaguru, ndetse hakaba n'imodoka ziparitse zitarimo zirakoresha umuhanda rusange, hakaba hari n'amazu akorerwamo ubucuruzi akikije umuhanda.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye. Hakaba harimo haracamo imodoka ndetse na moto, haruguru ndetse no hepfo y'umuhanda hari utuyira tw'abanyamaguru, tukaba twegeranye na ruhurura, hateye ndetse n'ubusitani hakaba hari n'ibiti byinshi bikikije umuhanda.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanya hakaba harimo haracamo imodoka kuruhande hari utuyira tw'abanyamaguru ndetse umuhanda ugenda mu byerekezo bitandukanye hagati y'i mihanda ibiri hagiye harimo ibyatsi bihateye ndetse n'ibiti birebire hari n'amapoto arimo amatara amurikira abakoresha umuhanda mu gihe cy'ijoro.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye hakaba harimo haracamo ikimodoka kinini cy'igikamyo gifite amabara y'umweru, kikaba kikoreye indi modoka inyuma nayo y'umweru yagize ibibazo, kikaba cyaje kuyitwara kugira ngo bajye kuyikora hepfo na ruguru y'umuhanda hari utuyira tw'abanyamaguru ndetse hakaba hateye ibiti birebire kandi byinshi hepfo y'umuhanda.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, umuhanda ukaba ugenda no mu byerekezo bitandukanye, harimo haracamo imodoka ndetse na moto, ku ruhande hari utuyira tw'abanyamaguru turi gucibwamo n'abantu, ndetse hagiye hateye n'ibiti biriho amatara, amurikira abakoresha umuhanda mu gihe cy'ijoro.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye hakabamo harimo haracamo moto ifite umugenzi ndetse hari igare riparitse rifite n'imizigo inyuma, ku rande hari utuyira tw'abanyamaguru hakaba hari n'ibiti byinshi n'ibyatsi biteye iruhande rw'umuhanda.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakabamo ahacamo imodoka ndetse n'amamoto, hirya hari utuyi tw'abanyamaguru turi gucamo abanyamaguru, hari ndetse na ruhurura hepfo y'umuhanda, hari ibiti birebire bihateye ndetse n'ibyatsi.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ku ruhande hakaba hari utuyira tw'abanyamaguru, haparitse amamoto menshi ategereje abagenzi, hari amazu maremare y'amagorofa menshi akikije umuhanda, ndetse hakaba hateye n'ibiti birebire.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimo haracamo ikamyo ndetse n'imodoka isanzwe ku ruhande, hari utuyira tw'abanyamaguru ndetse hirya y'umuhanda hari ahantu haparitse imodoka zitarimo zakoresha umuhanda rusange, hateye ibiti byinshi ndetse n'ibyatsi iruhande rwaho.

Imodoka nyinshi ziri hamwe hakaba higanjemo imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange zisize amabara y'umweru n'ubururu zikaba ziparitse ahantu muri gare abantu bategera imodoka zigenda mu byerekezo bitandukanye, hakaba hari abantu bicaye bategereje gutega imodoka ndetse hakaba hari n'amazu akikije aho hantu.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye kuruhande hakaba nundi muhanda ugenda mubyerekezo bitandukanye nuwo harimo haracamo moto ndetse kuruhande utuyira tw'abanyamaguru twegeranye n'ibyatsi byiza ndetse n'ibiti birebire hari amazu menshi agiye yubatse iruhande rw'uwo muhanda akaba hari n'amapoto ariho amatara amurikiye abakoresha umuhanda mugihe cy'ijoro.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ku rande hakaba hari utuyira tw'abanyamaguru ndetse abagenzi bakaba barimo baracamo, hari imodoka ziparitse iruhande rw'umuhanda zitari gukoresha umuhanda, hakaba hari n'igikamyo kinini kiri kuva mu muhanda gisa nk'aho kigana hirya y'umuhanda, hari ibiti biteye ku ruhande ndetse n'ibyatsi bikaba bikikije umuhanda.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimo haracamo igare ryikoreye imizigo, ku ruhande hari utuyira tw'abanyamaguru, hakaba harimo haracamo abanyamaguru, hirya haparitse imodoka nyinshi zitarimo zarakoresha umuhanda rusange, hari ndetse n'amapoto ariho insinga zisakaza amashanyarazi mu baturage.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, harimo haracamo imodoka y'umukara ndetse n'akandi kamodoka gato k'amapine atatu gakoreshwa mu gutwara imizigo, ku ruhande hari utura tw'abanyamaguru ndetse hakaba hari n'amapoto ariho amatara amurikira abantu mu gihe k'ijoro.

Umuhanda ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye. Ku ruhande hakaba hari utuyira tw'abanyamaguru. Hakaba haparitse amamoto menshi ategereje abagenzi. Hari n'urujya n'uruza hafi y'aho hantu amamoto aparitse kuko hari amazu menshi akorerwamo ubucuruzi.

Umuhanda munini ucamo imodoka cyangwa ibinyabiziga bigiye bitandukanye; hakaba hari ndetse n'amabara y'umweru ashushanyije hagati mu muhanda aho abanyamaguru bambukira. Ku ruhande hari utuyira tw'abanyamaguru ndetse hakaba hateye n'ibiti birebire kandi byinshi.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimo aracamo imodoka y'ubwoko bw'igikamyo ifite ibara ryera ku ruhande rutuyura tw'abanyamaguru ndetse abanyamaguru bakaba bari gucamo hepfo y' muhanda hateye ibiti birebire kandi byinshi, hakaba n'imodoka ziparitse zitari gukoresha umuhanda.

Imodoka nini ebyiri ziri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru. Zikaba zitwara abantu mu buryo bwa rusange, ziparitse ahantu hameze nk'aho ari muri gare aho abantu bategera bisi zijya mu bice bitandukanye, ku ruhande hari amazu agiye ahari ndetse hateye n'ibyatsi byinshi.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye. Umuhanda ariko ntabwo ukoze neza, ukaba ugiye warasataguritse. Hirya hari utuyira tw'abanyamaguru ndetse hari n'amazu akorerwamo ubucuruzi, hakaba hari n'imodoka ziparitse zirimo zirakoresha umuhanda rusange.

Umuhanda munini ucamo ibibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba hari umuhanda wo hasi ndetse n'uwo hejuru, hakaba mumuhanda harimo haracamo imodoka z'ibikamyo. Ku ruhande hari utuyira tw'abanyamaguru, abanyamaguru bari gucamo. Hepfo y'utuyira tw'abanyamaguru hari ibyatsi bihateye ndetse n'ibiti byinshi.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanyekaba, ku ruhande hari utuyi tw'abanyamaguru ndetse n'imodoka ziparitse zitari gukoresha umuhanda rusange, hirya y'utuyira tw'abanyamaguru hari andi mazu ahari ndetse hirya y'umuhanda hari ibiti bihateye birebire ndetse n'ibyatsi.

Ahantu haparitse imodoka nyinshi akaba ari imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange, hakaba ari urujya n'uruza rw'abantu ahantu akaba ari muri gare aho abantu baza gutegera imodoka zigiye mu bice bitandukanye iruhande hari amapoto ariho amatara amurikira abantu mu gihe cy'ijoro ndetse hakaba hateye n'ibyatsi ndetse n'ibiti. hari n'amazu maremare akikije aho hantu.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimo haracamo imodoka nini y'igikamyo ndetse n'umuntu utwaye igare, ku ruhande rw'umuhanda hari utuyira tw'abanyamaguru ndetse twegeranye na ruhurura hepfo y'umuhanda hakaba hateye ibyatsi byinshi ndetse n'ibiti birebire.

Imbuga nini ikaba irimo amakona ndetse hari n'utumodoka dutonya tw'umutuku duparitse, utumodoka dukoreshwa mu kwigisha abashaka kubona impushya za burundu zo gutwara ibinyabiziga, hirya ahantu bari hari ibiti birebire ndetse n'ibyatsi byinshi bihateye.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bitandukanye, hakaba harimo imodoka nini y'igikamyo ndetse n'amamoto. Ku ruhande utuyira tw'abanyamaguru, harimo umunyamaguru wikoreye umufuka. Hirya yaho hari ibiti birebire bihateye ndetse n'ibyatsi

Ahantu hanini hasize amabara y'umutuku ndetse n'icyatsi, ku ruhande hakaba ibyuma biriho akantu kameze nk'agaseke abantu bakiniramo, icyo ni ikibuga gikinirwamo basikete hirya hari ibyatsi bihateye ndetse hari n'ibiti bigiye bizengurutse aho hantu.

Ubusitani burebure bukaba buteyemo ibyatsi byinshi, hirya hari inyubako zihari zikaba zikikijwe n'ibiti birebire kandi byinshi, hari n'amapoto maremare ariho amatara amurikira abakoresha aho hantu mu gihe cy'ijoro.

Abantu benshi bateraniye hamwe baje gukina, bamwe bambaye n'utujire kugira ngo babatandukanye n'abandi akaba ari ikibuga kinini gikozwe mu byatsi, ku ruhande hari ibikapu abaje gukina bazanye. Ahantu bari hakikijwe n'ibiti birebire ndetse n'ibyatsi.

Umuhanda munini ucaho ibinyabiziga bigiye bitandukanye. Hakaba harimo haracamo imodoka ndetse n'izindi modoka nini zitwara abantu mu buryo bwa rusange. Ku ruhande hari utuyira tw'abanyamaguru abagenzi bakaba barimo baracaho. Hateye n'ibyatsi ndetse n'ibiti birebire. Hakaba ari icyapa kinini kiri ku ruhande, kiri mu mabara y'uburu kigaragaza ko aho hantu hari ikiraro kinini.

Umuhanda muto ucamo ibinyabiziga bijye bitandukanye, ku ruhande hakaba nta tuyira tw'abanyamaguru duhari, hakaba ndetse n'icyapa kiyobora abakoresha uwo muhanda ku ruhande kiri mu mabara y'umweru n'umutuku, hakaba hari amazu menshi agiye azengurutse umuhanda ndetse ku ruhande hateye ibyatsi ndetse n'ibiti birebire.

Umuhanda munini ugendamo ibinyabiziga bijye bitandukanya, umuhanda ukaba ucamo mu byerekezo bitandukanye ku ruhande hari utuyira tw'abanyamaguru ndetse hakaba n'icyapa kinini kiri mu mabara y'umumweru n'umukara kikubwira yuko ahantu wageze ari mu Rwanda, hari ibyatsi byinshi ndetse n'ibiti biteye iruhande rw'umuhanda.

Inyubako nziza kandi nini, ni inyubako y'amagorofa menshi, ikaba yubakishije amatafari, iri mu mabara y'umweru n'umukara, ikaba ku ruhande hari ibyatsi byinshi bihateye ndetse n'ibiti.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanya hakaba harimo hacamo imodoka ndetse na moto ku hande hari utuyira tw'abanyamaguru hari ndetse n'imodoka ziparitse ku ruhande zitari gukoresha umuhanda rusange, hari amazu maremare n'amagorofa menshi akorerwamo ubucuruzi ari iruhande rw'umuhanda, hakaba hateye n'ibyatsi ndetse n'ibiti birebire.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimo arambukiranya n'abantu ku rundi ruhande rw'abanyamaguru. Hari n'imodoka ziparitse zitarimo zirakoresha umuhanda. Hari n'amapoto agenda asakaza amashanyarazi muri ibyo bice. Hari ibiti birebire biteye hirya y'umuhanda.

Umuhanda uri gucamo ibinyabiziga byinshi bigiye bitandukanye, ku ruhande hari utuya tw'abanyamaguru, abanyamaguru bakaba bari gucamo, hakaba hari ibiti birebire kandi byinshi bikikije umuhanda ndetse hari n'amazu menshi agiye ari iruhande rw'umuhanda.

Umuhanda w'igitaka ukaba ari umuhanda ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ukaba urimo uraracamo imodoka, ndetse ku ruhande hari amazu akorerwamo ubucuruzi ahari, hari n'aho imodoka ziparitse zitarimo zirakoresha umuhanda, abantu ubona ko barimo baragendagenda no mu muhanda.

Umuhanda ucamo ibinyabiziga bigie bitandukanye, hakaba harimo haracamo imodoka ndetse na moto, hakaba hari na moto ziparitse ku ruhande zitarimo zirakoresha umuhanda, hari urujya n'uruza rw'abantu benshi barimo baragendagenda aho ahantu hazengurutswe n'amazu kandi harin'amapoto ariho insinga zisakaza amashanyarazi.

Umuhanda munini w'igitaka, ukaba ushobora gucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, uruhande rwo hepfo y'uwo muhanda hari amazu ahubatse maremare kandi meza, akaba atuyemo abantu. Hari ndetse n'utwatsi dukenya duteye hanze y'ibyo bipangu, ndetse n'ibiti.

Imodoka ziparitse imande y'umuhanda, zirimo tagisi vatiri n'imodoka isanzwe, na none imande y'umuhanda hari inzu isize amarange y'umweru, ifite n'ibirahuri bya fime no mu muhanda harimo abantu bari kujyenda.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bijye bitandukanye, ukaba ugenda mu byerekezo bitandukanye, harimo haracamo imodoka y'umukara, ku ruhande hari amazu akorerwamo ubucuruzi, ndetse hari n'abantu barimo baragendagenda. Hari n'imodoka ziparitse zitari gukoresha umuhanda rusange.

Umuhanda muto ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, akaba ari umuhanda wo muri uritsiye, hari amazu menshi yubatse iruhande rwayo kandi hari n'ibigega bifata amazi y'imvura bikayabika, hari ndetse n'amapoto maremare ariho insinga zisakaza amashanyarazi muri ibyo bice.

Inyubako nini ikaba ifite amabati y'amategura kandi hari indi nyubako na yo ifite amabati y'umutuku ariko yo ni amabati asanzwe, ku ruhande rwayo hari urukuta ruzengurutswe na senyenge ndetse hateye ibyatsi n'ibiti birebire, hari icyapa kigaragaza ko aha hantu hacumbikira abantu, hariho nimero ndetse n'aho wabasanga.

Abana benshi bambaye impuzankano zo ku ishuri bakaba bari gukina iruhande rw'ibyicungo, ahantu bari hari ubusitani buteye ibyatsi ndetse n'ibiti birebire bakaba bameze nk'aho bageze mu isaha yo gukina ku ishuri ryabo.

Inyubako nini y'amagorofa menshi, ikaba iri mu mabara y'umuhondo ndetse ku ruhande hari n'andi mazu akorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye, ku ruhande hateye ibiti birebire kandi byinshi, hari imodoka iparitse hirya y'inzu itarimo irakoresha umuhanda, hakaba hari n'amaporoto maremare acaho insinga zitwara amashanyarazi.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye hakaba harimo haracamo moto ndetse ku ruhande hari inzu nini ifite amabati y'umutuku hari ndetse n'inzogera aho hantu hakaba hasa nkaho ari ku rusengero, hari abantu barimo baracahomu tuyira tw'abanyamaguru ndetse hakaba hari n'ibyatsi n'ibiti biteye iruhande rw'umuhanda.

Umuhanda ucamo ibinyabiziga bijye bitandukanye ukaba ukikijwe n'ibiti kurande hari amazu hakaba hari inzu isa nkaho ikorerwamo amamoto cyangwa ibindi binyabiziga hakaba ari moto zihaparitse zimeze'ho zifite ibibazo bari kuzikora hari n'abantu baje kureba ibintu mu yandi maduka ahegereye.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba hari gucamo imodoka ndetse ku ruhande y'uwo muhanda hari utuyira tw'abanyamaguru, hari urujya n'uruza rw'abantu, hirya y'utuyira tw'abanyamaguru hari amazu maremare akorerwamo ubucuruzi ndetse hakaba hateye n'ibiti.

Inyubako ndende, ikaba ku ruhande rwayo hari n'izindi nyubako, akaba ari inyubako iriho icyapa kinini cy'umutuku cya eyateri, hakaba hateye ibiti byinshi, ndetse hakaba hari n'amapoto asakaza amashanyarazi, muri izo ngo.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye ukaba ugenda mu byerekezo bitandukanye, harimo hacamo imodoka y'umukara ruhande rw'umuhanda hari inyubako zigihe ziwubatse zikorerwamo ubucuruzi, ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye hakaba hateye n'ibiti birebire.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimo haracamo moto ndetse n'akanyabiziga gato gakoreshwa mu kwikorera imizigo, ku ruhande rw'umuhanda hari utuyira tw'abanyamaguru, ku ruhande rw'utuyira tw'abanyamaguru, hateye ibyatsi ndetse n'ibiti.

umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye hakaba harimo haracamo imodoka ndetse na moto umuhanda ukaba ufite ibyerekezo byinshi ku ruhande utuyira tw'abanyamaguru ndetse hakaba hateye n'ibiti byinshi n'ibyatsi hari n'amatara agenda yaka amabara atandukanye yemerera abanyamaguru kwambuka ndetse n'imodoka guhagarara kugira bidateza impanuka

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimo haracamo imodoka, ku ruhande hari utuyiya tw'abanyamaguru ndetse hari n'amapoto ariho amatara amurikira abakoresha umuhanda mu gihe cy'ijoro, ku ruhande rw'umuhanda hateye ibiti birebire ndetse n'ibyatsi.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, uwo muhanda ukaba ugenda mu byerekezo bitandukanye, kurunde hari utuyira tw'abanyamaguru ndetse hakaba hateye n'ibiti byinshi kandi birebire, hari amapoto agiye ariho amatara amurikira gukoresha umuhanda mu gihe cy'ijoro.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye akaba ari umuhanda ugenda mu byerekezo bitandukanye, harimo haracamo imodoka ndetse na moto, ku ruhande hari utuyira tw'abanyamaguru, hakaba n'icyapa kigaragaza ko aho hantu hari ishuri, hagati y'imihanda hari utuyira tugiye turimo ibyatsi ndetse n'ibiti birebire, hakaba hari n'umugabo wambaye impuzankano ya Polisi.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba hari umuhanda wo hasi ndetse n'uwo hejuru, harimo haracamo igikamyo kinini ki mu mabara y'icyatsi ndetse n'umutuku, ku ruhande hari utuyi twaba abanyamaguru turimo turacibwamo n'abantu, ku ruhande y'utuyira tw'abanyamaguru hateye ibyatsi ndetse n'ibiti birebire.

Umuhanda munini uca mu bininyabiziga bigiye bitandukanye, kurande hakaba hari akayira k'abanyamaguru ndetse hakaba hari na ruhurura, hari ibyatsi byinshi biyateye ndetse n'ibiti birebire, hakaba hari n'amazu akorerwamo ubucuruzi.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye hakaba harimo haracamo imodoka nini z'amakamyo ndetse n'amamoto, uwo muhanda ukaba ugenda mu byerekezo bitandukanye, ku ruhande hari utuyira tw'abanyamaguru abagenzi bakaba barimo baracamo, hari n'ibiti byinshi bihateye ndetse n'ibyatsi, hakaba n'amapoto amurikira abakoresha umuhanda mu gihe cy'ijoro.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ukaba ugenda mu byerekezo bitandukanye, hagati y'umuhanda y'imihanda hateye ibyatsi ndetse n'ibiti, iruhande rw'umuhanda hari utira tw'abanyamakuru, abanyamaguru bakaba bari gucamo ndetse hakaba hakikijwe n'amazu.

Umuhanda munini ugenda mu byerekezo bitandukanye. Uwo umuhanda ukaba ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanya, hakaba harimo haracamo moto. Ku ruhande hari utuyira tw'abanyamaguru, ndetse hateye n'amapoto maremare ariho insinga zigeretse, hakaza amashanyarazi muri ibyo bice. Hari ndetse n'ibiti birebire biteye hirya y'umuhanda ndetse n'ibyatsi.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimo haracamo imodoka ndetse na moto, umuhanda ukaba ugenda mu byerekezo bitandukanye, hagati y'imihanda hakaba hagiye hari utuyira turimo ibyatsi ndetse n'ibiti birebire bihubatse, ku ruhande hari utuyira tw'abanyamaguru ndetse hateye n'ibiti byinshi.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimo haracamo moto, ku ruhande hari utuyira tw'abanyamaguru, iruhande rw'utuyira tw'abanyamaguru hateye ubusitani bunini, ndetse hateye n'ibiti birebire bikikije umuhanda, hari n'amapoto amurikira abakoresha umuhanda mu gihe cy'ijoro.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimo haracamo akamodoka gato k'umweru, ku ruhande hari ruhurura ndetse hari n'utuyira tw'abanyamaguru, iruhande y'utuyira tw'abanyamaguru, hateye ibiti birebire, ndetse n'ibyatsi, hakaba hari n'amapoto ariho amatara, amurikira abakoresha umuhanda mu gihe cy'ijoro.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ukaba urimo uracamo imodoka ndetse na moto, hagati y'umuhanda haashushanyije amabara y'umweru yerekana ko ari aho abanyamaguru baca mu gihe bashatse kwambukiranya imihanda, ku ruhande hari utuyira tw'abanyamaguru ndetse umuhanda ukikijwe n'ibiti byinshi ndetse n'ibyatsi.

Imuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye hakaba harimo haracamo ibikamyo umuhanda ugenda mu byerekezo bitandukanye, hakaba hari umunyamaguru uri kwambukiranya imihanda aciye ahantu hasize utubara tw'umweru hagenewe gucamo abanyamaguru mu gihe bambuka umuhanda hari ibiti bikikije umuhanda ndetse n'ibyatsi.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, uwo umuhanda ukaba ugenda mu byerekezo bitandukanye, ku ruhande hari utuyira tw'abanyamaguru ndetse n'amazu maremare agiye yubatse iruhande rw'utuyiraw'abanyamaguru, hari amatara yaka mu mabara atandukanye yemerera imodoka zigenda mu cyerekezo kimwe gutambuka izindi guhagarara kugira ngo bidateza impanuka mu muhanda.

Umuhanda ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye. Hakaba harimo imodoka ndetse na moto. Ku ruhande hari utuyira tw'abanyamaguru ndetse hakaba hari n'ahantu hateye ibyatsi imodoka ibanza kuzenguruka kugira ngo ngo ihindure icyerekezo, bityo bigafasha mu kurinda impanuka, hari ibiti byinshi bikikije umuhanda.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, umuhanda ukaba ugenda mu byerekezo bitandukanye, hakaba hari icyuma gifotora ibinyabiziga birengeje umuvuduko runaka, hakaba ku ruhande hari utuyira tw'abanyamaguru, ndetse tukaba dukikijwe n'ibyatsi n'ibiti byinshi.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, aka kanya nta kinyabiziga kiri gucamo, ku ruhande hari utuyira tw'abanyamaguru ndetse hari na ruhurura, iruhande rw'utuyira tw'abanyamaguru hari ibyatsi byinshi bihateye ndetse n'ibiti birebire, hakaba hari n'ibiti biriho amashanyarazi.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba hari umuhanda wo hasi ndetse n'umuhanda wo hejuru, harimo haracamo imodoka ndetse na moto, hari ku ruhande utuyira tw'abanyamaguru ndetse hateye n'ibyatsi byinshi n'ibiti, hari n'amatara agenda amukira abakoresha umuhanda mu gihe cy'ijoro.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bijye bitandukanye, ukaba ugenda mu byerekezo bitandukanye, harimo imodoka ndetse n'amamoto kurande, hari utuyira tw'abanyamaguru, iruhande rwatwo hari ibyatsi bihateye ndetse n'ibiti bikiri birebire, hari n'amapoto ndetse ari amatara amurikira abakoresha umuhanda mu gihe cy'ijoro.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye hakaba hari umuhanda wo hasi ndetse n'uwo hejuru, ku ruhande hari utuyira tw'abanyamaguru ndetse hakaba hateye n'ibiti birebire kandi byinshi hari ndetse n'ubusitani, abantu bakaba barimo baragenda muri utwo tuyira twabugenewe.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye ukaba umuhanda ugenda mu byerekezo bitandukanye, harimo haracamo imodoka ndetse na moto hakaba ari n'amagare ku ruhande aparitse. Hari utuyira tw'abanyamaguru hari n'imodoka ziparitse mu tuyira tw'abanyamaguru zitarimo zirakoresha umuhanda rusange, hakaba aho hantu hakikijwe n'ibiti byinshi ndetse n'amazu maremare.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba hari umuhanda wo hasi ndetse no hejuru, hari n'abanyamaguru bari kwambuka umuhanda, ku rurande hari utuyira tw'abanyamaguru, ndetse hakaba hari n'amatara maremare amurikira abakoresha umuhanda mu gihe cy'ijoro, hateye ibyatsi, ndetse n'ibiti kuhande.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ukaba ugenda mu byerekezo bitandukanye. Hagati hari aho imodoka zikatira zishaka guhindura icyerekezo ahazwi nka lompuwe, hakaba hateyemo ibyatsi ndetse n'ibiti birebire.

Umuhanda munini ugenda mu byerekezo byinshi, ukaba ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hagati hari ahasize amabara y'umweru abanyamaguru bakoresha bambuka bajya wundi muhanda, hari utuyira tw'abanyamaguru ku ruhande y'umuhanda ndetse hakaba hateye ibiti birebire n'ibyatsi.

umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bijye bitandukanye ukaba ukikijwe n'utuyira tw'abanyamaguru abanyamaguru bakayemo baraducamo hari n'ibyatsi n'ibiti birebire bihateye hakaba n'icyuma gifotora imodoka cyangwa ibinyabiziga birengeje umuvuduko runaka kugirango hirindwe impanuka mu muhanda Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigoye bitandukanye ukaba ukikijwe n'utuyira tw'abanyamaguru, abanyamaguru bakaba barimo baraducamo, hari n'ibyatsi n'ibiti birebire bihateye, hakaba n'icyuma gifotora imodika cyangwa ibinyabiziga birengeje umuvuduko runaka kugirango hirindwe impanuka mu muhanda.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimo haracamo imodoka ni umuhanda wo hasi, ndetse n'undi muhanda, uri hejuru yawo, hakaba hari uturyo tw'abanyamaguru iruhande rw'uwo muhanda, hakaba harimo aharacamo abantu, iruhande rw'utuyira tw'abanyamaguru, hateye ibiti byinshi ndetse n'ibyatsi.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ukaba ugenda no mu byerekezo bitandukanye, harimo haracamo imodoka ndetse na moto, ku ruhande hari utuyira tw'abanyamaguru, hari n'amatara maremare agenda yaka amabara atandukanye yemerera imodoka zigenda mu cyerekezo kimwe kugenda izindi zo mu kindi cyerekezo guhagarara, kugira ngo bidateza impanuka mu muhanda.